Nyuma y'inama ndetse n'ubukangurambaga ku bashinzwe ubuzima muri rusange mu gihugu, hagezweho umwanya wo gufatira ifoto hamwe ndetse n'abatumiwe bose.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe ubuzima gifite ibara ry'umweru ndetse mu ishusho y'uruziga nk'umubumbe, amabara y'icyatsi ndetse n'ay'ubururu biryoheye ijisho.

Umwanya mu kigo nderabuzima ahategererezwa abaganga ndetse n'abandi bantu bakora mu bitaro ndetse n'abarwayi muri rusange, hari umubare munini w'abantu, serivise bigaragara ko iri kujya mbere.

Inzego zitandukanye zirimo iz'ubuvuzi, abakangurambaga ndetse n'abaganga ndetse n'izindi nzego zirimo izishinzwe umutekano, bakoze amahugurwa yo kwita ku buzima muri rusange.

Umugabo ukuze, uri mu myaka mirongo itandatu, arafata imiti, mbere yo gusukura mu kanwa, amenyo ndetse n'ibindi, imiti yagenwe na muganga, kugira ngo imworohereze, mu burwayi bwe bw'amenyo.

Umusore arishimira ingaruka ubuvuzi bw'amenyo bwagize ku menyo yiwe nyuma y'uko yaterwaga ipfunwe n'uburyo amenyo ye asa ariko akaba yarahuye n'abaganga bakayoza agacya koko.

Umusore aragaragaza ko, koza amenyo wifashishije ibiti ujomba mu menyo ndetse n'indado n'ibindi atari byiza, ahubwo ibyiza ari ugusanga umuganga wabihuguriwe w'amenyo akakuvura.

Abasaza bari mu myaka mirongo itandatu na mirongo itandatu n'itanu, barahurira hamwe bakaganira ku ndwara zugarije abakuze zirimo nka Diyabete ndetse n'izindi.

Umugabo aratanga ikiganiro ku bagore ndetse n'abandi bagabo, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa ndetse bakagira ibyo kunywa, birimo amazi ndetse n'ibindi.

Abakangurambaga b'ubuzima ndetse n'abaganga, baratera umurwayi urukingo bifashishije urushinge, aho bambaye udupfukamunwa turinda mu maso ndetse no mu mihumekere.

Muganga nyuma yo gusuzuma ashyira ibisubizo ndetse na raporo muri mudasobwa kugirango ngo arusheho guteza ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere.

Imashini yifashishwa mu bitaro hagenzurwa umubiri wose icyarimwe, aho umurwayi yinjizwa mu mashini aryamye ku gatanda imashini ikamenya ibibazo yaba afite mu ngingo, yaba afite mu mitsi ndetse n'ibindi.

Muri laboratwari bari gukora ubushakashatsi, abagabo ndetse n'abagore bagira ngo barebe ingaruka nziza ndetse n'ingaruka mbi ku miti.

Umwanya ku kigo nderabuzima aho bakirira abagana ikigo nderabuzima barimo abarwayi ndetse n'abandi bashaka izindi serivisi zirimo raporo z'ibizamini baba barafatiwe kera.

Umuganga wahuguriwe ubuvuzi bw'amenyo, burimo gusuzuma ndetse no kuvura, koza amenyo y'umurwayi ndetse no mu kanwa muri rusange.

Umuganga afashe ku kuguru k'umurwayi amugorora ingingo ndetse agorora mu mavi aho umurwayi yaba afite imvune hose kugira ngo yongere abaduke abeho neza.

Umurwayi arasobanurirwa ndetse agaragarizwa amafoto ndetse n'ibindi bikenerwa, abwirwa impamvu gukora imyitozo ngororamubiri ari byiza bifasha no mu mikurire neza y'umubiri.

Amazi meza afasha ubuzima kumera neza mu igogora ry'amafunguro ya saa sita ndetse uyakarabye arinda uruhu indwara zugarije uruhu.

Umukobwa yicaye hasi aho afashe ku kuguru agorora ingingo, yambaye ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo ibisakaza amajwi ndetse n'impuzankano yabugenewe byo mu myitozo ngororamubiri.

Inkoni zifashishwa n'abageze mu zabukuru, imyaka mirongo itandatu kuzamura, igihe ingingo zitagikora neza, kugira ngo abashe kuva ahantu hamwe ajye ahandi, bimworoheye.

Umuganga arasobanurira umurwayi uburyo akwiriye gufata imiti ahawe, kugira ngo izagire akamaro mu mubiri mu gihe kizaza, nk'uko biteganywa.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu bimera, ku buryo afasha uruhu gutoha, gukira ibiheri, bituma ubirwaye agira ipfunwe mu bandi.

Amavuta yo gutekesha ndetse n'ayo kwisiga akozwe mu bimera, birimo ibikakarubamba ndetse n'ibindi birimo indabo zivura, ari mu macupa y'umweru ashushanyijeho icyo kimera cy'igikakarubamba ndetse n'ibindi.

Umuti ukozwe mu bimera, birimo indabo ndetse n'ibindi, uri mu gashashi k'umuhondo, ufunze neza, kandi uriho ikirango, cyemeza ko uvura koko.